Kwereka abana bakiri batoya nk'udushushanyo tw'inyamaswa, ukabereka udushushanyo tw'abantu kumwereka nk'agashushanyo k'umuntu ukamwereka ibice bigize umuntu ukoresheje icyo gishushanyo cyangwa se nk'inyamaswa ukamusobanurira uburyo inyamaswa iba imeze, ibi bifasha umwana cyane kuko bituma asobanukirwa vuba kuruta uko wabimubwira utari kubimwereka.

Gukoresha ibishushanyo cyangwa se imigani ya kera yabayeho cyangwa, utuntu nyine tumeze nka two kubaciri mbese two kubasetsa, dufasha abana bakiri batoya kubaruhura mu mutwe kugira ngo bakomeze ukomeze kubategurira ubwenge bwabo nyine kugira ngo bige n'ibindi.

Imyigire y' abana bakiri batoya akenshi biba byiza gukoresha ibishushanyo cyane kuruta amagambo kubera ko udushushanyo ahanini cyane cyane abana ni two bakunda kureba utuntuwushushanya bibafasha cyane kubafungurira ubwonko bwabo gusumba amagambo, rero uri kwigisha umwana sobanura ibishushanyoyo kuruta amagambo.

Udushushanyo dufasha abana bakiri batoya nk'abana b''umwaka umwe, ibiri, itatu tubafasha kugira ikintu batekereza mbese tugafungura ubwenge bwabo bakagira nyine utegeka icyo bamenya kuruta uko waba uri kubabwira cyangwa se wabigisha ukoresheje amagambo ukoresheza aba basi batareba bingirakamaro.

Kwigisha umwana ukiri wo mu mwaka umwe cyangwa ibiri biba bisaba gukoresha ibishushanyo cyane ukadusiga amabara, ukadushushanya neza kugira ngo tubashe kuba twamukurura dukurure ibitekerezo bye noneho abashe gutekereza kure, biramufasha cyane.

Kugira ngo abana bakiri batoya babashe gukura, gukunda ibintu byo kwiga, cyangwa se bumve babishishikariye, ushobora gushaka nk'udukinisho bajya bakiniraho, nk'igihe baruhutse, babaye batari kwiga, bagakoresha utwo dukinisho, kugira ngo baruhure ubwenge bwabo, bongere kwiga, bamaze kuruhuka batekereza neza.

Uburezi mu bana b'inshuke bakiri bato na bwo ni ingenzi cyane kuko butuma aba bana bakura baramenyereye ibintu byo kwiga ku buryo n'iyo batangiye amashuri abanza biborohera. Buri mubyeyi wese aba agomba kwitabira iyi gahunda niba afite umwana ukiri mutoya akamutangiza hakiri kare.

Igihe wenda wigisha abana bakiri batoya cyane ushobora gukoresha imbuto cyangwa se ugakoresha nk'amabuye mu buryo bwo kumwigisha kubara ukarambika imbuto cyangwa se ukazirambika ariko ukamubaza uti izi mbuto ni zingahe? ibyo biramufasha bikamukangurarira mu bwenge agahita ashobora kuba yabimenya byihuse.

Abana bari mu mashuri abanza akwiye kuba bataramenya kwandika neza ni byiza gukoresha moteri ke ntakaramu y'ibiti wandikishabyi ugasiba ni byiza rero kugira ngo abo bana cyangwa se kugira kugira mu bagiredushushanya bata amabara birabafasha mu mitekerereze yawe.

Igihe mwigisha abana biga mu dushuri two hasi cyane abana baheraho. Ushobora gukoresha utuntu dufite amabara meza tubakurura. Ugakoresha utuntu dusa neza. Imbuto, udushushanyo, ugashushanya utuntu tw'amabara meza kugira ngo dukunde tubakurure tubashishikarize kwiga.

Gukoresha udukinisho cyangwa se udupupe cyangwa se utushusho tw'amabara meza kudukoresha mu gihe twigisha abana bakiri batoya biga mu mashuri abanza. Ni iby'ingenzi cyane kubera ko bifasha abo bana gutuma imitekerereze yabo yaguka kandi bakazazamuka ku rwego rushimishije.

Umwaka wa mbere n'uwa kabiri w'amashuri utuma umwana umutegurira ubwenge bwe nyine kugira ngo nagera hejuru azatangire ubwenge bwarafungutse, akiga nyine kandi ibintu akabifata neza kubera ko aba yanyuze muri aya mashuri ya mbere y'ibanze amufasha kumutegurira ubwenge bwe. Aya mashuri ni ingirakamaro, umwana wese aba agomba kubanza yanyura muri ayo mashuri kugira ngo agire ubumenyi bw'ibanze akuramo.

Aya ni amashuri y'ibanze, mu Rwanda tugira amashuri y'ibanze atandatu. Buri muntu wese abanza yacamo kugira ngo abanze agire ubumenyi bw'ibanze. Deni noneho bigatuma nyuma yaho azakomeza. Akiga n'ibindi byisumbuyeho nyine ariko ubu aya mashuri afasha abana kuzamukana ubumenyi butandukanye nko gusoma, kujya kwandika, kumenya kubara n'ibindi. Aya mashuri ni ingirakamaro cyane

Ku bigo by'amashuri haba hari abantu babika ibitabo, abantu babika ibitabo rero, ibyotabo bishobora gufasha abanyeshuri byaba ari iby'abato cyangwa ari iby'abakuze bitewe, bitewe n'ikigero umwana ariho uba ugomba kureba igitabo gishobora kumufasha ukurikije ikigero ariho.

Abana bakiri bato baba bagomba kwitabwaho n'ababyeyi babo, bakabagaburira indyo yuzuye, irimo intungamubiri zose: ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri ,kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi bibarinde indwara zimwe na zimwe, zishobora guterwa n'imirire mibi.

Ikiganiro Iteterro na cyo gica kuri radiyo gifasha abantu bakiri bato kikabatoza kuvugira mu ruhame no kuvugira mu iteraniro ry'abantu benshi, bityo bagakura nta bwoba, nta soni ku buryo iyo batangiye kwiga bibafasha cyane kuko baba baramenyeye kuvugira mu bantu benshi kandi bikabungura ubumenyi.

Amashuri y'ibanze abana bakiri batoya, kubigisha dukoresha amashusho cyangwa se udutabo tugaragaramo amashusho menshi cyane gusumba amagambo, biba byiza cyane kubera ko birabashishikaza bagashishikarira kubyiga, kandi bigatuma n'ubwenge bwabo bubasha gufungukaba akaba yasobanukirwa cyane.

Amashuri abanza abana bakiri bato bo mu mashuri abanza, baba bakeneye kwiga ibintu byinshi, bakiga ibijyanye n'indangagaciro ziranga abanyarwanda, bakiga kirazira. Ibyo bintu byose baba bagomba kubyigishwa bakiri mu mashuri yo hasi kugira ngo bazagere hejuru babizi, bazi indangagaciro z'abanyarwanda, bazi umuco, bazi kirazira, ibyo bintu byose barabyigishijwe.

Uburezi bw'ibanze bufasha abantu bakiri bato kumenyerana n'abandi bana kandi bikabungura ubumenyi bw'ibanze, butuma bazagira icyo bageraho mu gihe kiri imbere. Ubwo rero buri mwana wese afite uburenganzira bwo kwiga aya mashuri. Niyo mpamvu rero buri mubyeyi wese aba agomba kujyana umwana we ku ishuri.

Amashuri y'abana batoya mu mashuri y'abana bo hasi. Ayo mashuri afasha abana kubongerera ubumenyi bwo hasi nyine buciriritse kugira ngo bazazamukane ubumenyi. Nibagera hejuru bazabashe kwiga neza bafite ubumenyi buhagije bwimbitse.

Udushushanyo n'ibikinisho, ni byiza cyane ku bana bakiri batoya, kubera ko bibafasha kubaruhura mu mitwe igihe bananiwe, kandi bigatuma ibitekerezo byabo byaguka, bakazazamuka neza bafite ubumenyi, ubu rero abarimu bigisha muri ayo mashuri ni byiza gukoresha ibishushanyo cyane.

Umwana ugitangira kwiga aba akeneye gutozwa kwandika no kuvuga, kwandika inyuguti cyangwa se kwandika imibare runaka, umwana uba ugomba kumuha uburenganzira rero bwo kujyirango ajye kwandika ku kibaho ibyoba abasha kuba yazabyigana.

Amashuri yisumbuye na yo ni ingenzi cyane kuko atuma abarangije amashuri abanza bagira ubundi bumenyi burenze, bigatuma bashobora kwihangira imirimo kandi bakongera ubumenyi ku buryo bagira ejo hazaza heza n'ikerekezo kiza. Ubwo rero ni ingenzi gukomeza kwiga amashuri yisumbuye.

Umunyeshuri umaze kuba mukuru ashobora kwigishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kuko iyo amaze kuba mukuru akoresha imashini kugira ngo abashe kwiga ibintu byimbitse cyane mbese ku rwego rwimbitse akoresheje imashini cyangwa se koputa zikoreshwa n'abanyeshuri kubera ko aba amaze kuba umukuru aba amaze gusobanukirwa ibyo aribyo.

Abana bakuru biga muri segonderi bituma bagira umuco, bakabigisha indangagaciro z'abanyarwanda, bakabyigisha ibijyanye no gusenga, iyobokamana, mbese bagakura ari abantu nyine bazi buri kimwe cyose kubera ko baba ari bakuru barabigishije ibintu byinshi, baba bafite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye.

Amashuri ya segonderi afasha ba bana bavuyemo cya cyiciro cyo hasi kongera ubumenyi bugakomereza aho bibakereye bikabazamurira ubundi bumenyi bwisumbuye kuko baba barakuwe mu mashuri y'ibanze. Amashuri ya segonderi rero afasha abanyeshuri abanyeshuri nyine kugira ubumenyi bwimbitse, bakanabafasha no kubategurira icyo bumva bazaba cyo.

Abanyeshuri bageze hejuru mu mashuri yisumbuye, bagomba kwigishwa ibijyanye na Jenoside, kugira ngo bamenye Jenoside yakorewe Abatutsi, bamenye igihe yabereye, mbese bakigishwa amateka yaranze Igihugu cyabo. Bakabyigishwa kugira ngo babyirinde hatazagira n'ugira ingengabitekerezo runaka kubera ko atabyigishijwe mbere y'igihe.

Umunyeshuri wese ugeze muri segonderi aba agomba kugira disipuline, akubaha abayobozi be, akagira isuku mbese akaba aho ari hose arangwa na disipuline gusumba ibindi byose, azi indangagaciro zose na kirazira zose n'imico yose biranga Abanyarwanda byose abizi.

Kwiga imyuga ijyanye no gukora udukoresho runaka, ni byiza kubera ko udukoresho iyo twiyongereye tukadukora, bituma tubona abakiriya benshi kandi tugatera imbere, aho kugira ngo tube twaba abashomeri, ahubwo tukihangira imirimo, tukabasha kubona amafaranga mu buryo butatugoye.

Kwiga imyuga muri za kaminuza bifasha abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye kongera ubumenyi burenze ubwo bari bafite, ubwo rero twitwara neza igihe turi kwiga kandi ibikoresho dusanze nitubyangize kugira ngo n'abazaza bazabashe kubikoresha, tuba tugomba kubyitaho neza.

Imyuga nayo ifasha abantu kwihangira imirimo bityo bakabasha kwiteza imbere bakababa makiga za kaminuza. Ubwo rero kwiga imyuga nabyo cyangwa se kwiga muri tivati nabyo ni uburezi bufite ireme cyane ko bifasha abantu benshi bize muri ibyo bigo.

ibintu bijyanye no kwiga imyuga umuntu ashobora kwiga ibintu bijyana n'imyuga byo gukora nk'ibintu runaka noneho yabirangiza kugira ngo ahite abona akazi mu buryo bwihuse vuba vuba akabikora akabona amafaranga kandi agateza n'imbere abandi, kwiga imyuga rero ni iby'ingenzi cyane kandi ni byiza cyane nashishikariza urubyiruko cyane cyane kwiga ibintu bijyana.

Hari amashuri y'imyuga yigisha imyuga itandukanye urugero nk'umwuga w'ububumbyi, urabumba bakakwigisha gukora ibikoresho bikoze mu ibumba, ibyo bikoresho bikozwe mu ibumba rero igihe turi kubikoresha tub atugomba kwitwararika kubera ko akenshi bikunda kumeneka ntabwo biba bikomeye cyane.

Ushobora kwihangira umwuga wo gukora ibikoresho bijyana n'ibumba. Ibumba barikoramo ibikoresho bitandukanye: amasafuriya, amasahane, ibikombe ariko ibyo bikoresho byo mu ibumba ntabwo biba bikomeye cyane. Uba ugomba kugikoresha rero wigengesereye kubera ko ibumba ntabwo rikomera, iyo kiguye hasi gihita kimeneka.

Ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu mashuri ya kaminuza bagomba kubyitaho kandi bakabifata neza kugira ngo abazazo nyuma yabo, nabo bazasange hariho ibikoresho bagomba gukoresha kandi bimeze neza. ubwo rero kubifata neza ni ingenzi cyane kuko bizatuma nabarumuna babo babyigiyemo.

Abantu biga kaminuza na bo bagira mu mashuri yabo haba hari intebe na kameza ka buri munyeshuri kugira ngo babashe gukurikirana amasomo neza, ubwo rero ibi bikoresho baba bakwiriye kubifata neza bakabibungabunga kugira ngo n'abandi bazabashe kubikoresha bityo bateza imbere uburezi.

Uburyo rwo kwirinda akajagari k'ibinyabiziga, ibinyabiziga bigomba kugira ahantu biparika, hazwi kandi hizewe, ku buryo hadashobora kuba hagira uwo habangamira, cyangwa ngo ibyo binyabiziga byo bibangamirwe. Haba hagomba rero kuba ari ahantu hazwi nka parikingi, akaba ariho imodoka ziparika n'ibindi binyabiziga nka mamoto.

Abanyeshuri biga kaminuza, imyicarire yabo nayo ituma babasha gukurikira neza, kuko buri wese aba yicaye ku ntebe ye kandi afite aho ashobora kurambika dokima ze, bityo ntizihungabane. Ubwo rero ibikoresho byabo baba bagomba kubibungabugwa ku buryo n'abandi bazabyigiraho neza.

Igihe uri kugenda mu muhanda ukabona ikimenyetso runaka cyashyizwe mu muhanda, polisi iba yagishyizemo bitewe n'impamvu, bashobora kuba bari gukora umuhanda kugira ngo babimenyeshe abatwaye ibinyabiziga, bashyiramo icyo kimenyetso, icyo kimenyetso rero ugomba kwirinda kucyangiriza, ukagitambukira kure.